Mu kabari aho banywera inzoga hari inzoga z'ubwoko butatu: Mitsingi, Skol, Amsteri.

Mu kabari aho banywera inzoga, hari abagabo bari kunywa inzoga z'ubwoko butandukanye, z'amacupa ya shokora n'amacupa y'icyatsi.

Icyapa kinini cyo ku muhanda cyamamaza inzoga, kiri hafi y'ibiti by'icyatsi birebire.

Umukobwa wambaye agakabutura k'iroza ahagaze ahantu mu ikusanyirizo ry'amata, iruhande rwe hari intebe n'ameza ariho ikayi y'ubururu.

Ji ya litiro imwe, iri mu gikopo cy'igipapuro gisa move, iyo ji ikoze mu mbuto y'itunda.

Umugore uri muri kantine, afite akabido karimo amata. Hafi y'iwe hari teremusi zitukura.

Hari abagabo batandatu bari kunywa ikivuguto, bafite amakeke imbere yabo ndetse n'imigati. Umugabo umwe yambaye agapira k'umutuku.

Bari gukoropa ku makaro, hafi y'aho hari igare, imbere y'aho hari moto iriho icupa ry'amata.

Amapaki ane imwe irimo amakeke indi irimo amandazi. Bigiye bigabanyije mu buryo bubiri atandatu na cumi na kabiri.

Kanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatanu wemeze wigurize kuri mokashi ukoresheje MTN mobile money.

Umuhanzikazi Bwiza, yambaye umupira usa umuhondo, afite irangururamajwi mu ntoki ze, isa icyatsi.

Kanda icyenda, rimwe, icyenda, rimwe wemeze uhamagare Yego, bakugezeho ibyo waguze ku mbuga nkoranyambaga babikugezeho aho uri hose mu rugo.

Ubucuruzi bwo kumbugankoranyambaga, agakoti k'abana kari kugura amadorari cumi na rimwe, inkweto zifunguye amadorari icyenda, hariho n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga, nimero zabo wahamagaraho, nimero wabandikiraho ukoresheje WhatsApp, Email yabo kubibagezaho ni ubuntu.

Umugati urimo inkoko, inyanya, epinari, iruhande hari ibirayi bitogosheje mu mavuta.

Imodoka itukura iriho ikirangantego cyamamaza ubucuruzi bwo ku mbugankoranyambaga hariho nimero zabo wabasangaho na WhatsApp.